Imiti imwe n'imwe yifashishwaga mu guhinga no kongera umusaruro cyangwa se kwica nk'udusimba, ubukoko, bisabaga kugira ngo mu gihe yakoreshejwe ubashe kuyibika neza kubera y'uko usibye no kuba yakwica ubwo bukoko, ariko ishobora no kwica umuntu mu gihe ashobora gukoresha igikoresho yakoreshejwemo kitogeje.

Ibigori akenshi usanga bishishe mu murima, babaga barabifumbiye neza barashizemo imborera cangwa bakanashiramo za ire, noneho bikazamuka neza bishishe ninabwo umuhinzi abonaga umusaruro neza.

Amafunguro yo muri iki gihe asigaye ateguwe neza kubera ukuntu bashyiramo ibirungo byinshi bitandukanye. Ifunguro rikaba rinagaragara neza ku isura yewe no muburyohe usanga n'umuntu uri kurifata rimutera imbaraga zo gukomeza no kuba yarirya nubwo yaba anafite n'ikibazo cyo kuba ntabiryo yashakaga.

Amafi ni amwe amafunguro agira intungamubiri nyinshi cyane, akaba akundwa hirya no hino mu gihugu. Usibye ko ku isoko amafi ahenda cyane anategurwa mu buryo butandukanye byorohera abafata iryo funguro kuba barikunda mu buryo bashaka.

Amafi ni amwe mu mafunguro aryoha cyane, kubera ukuntu agira ama vitamine menshi. Usanga abantu benshi bayakunda cyane, uretse ko ubu ku isoko ahenze cyane, aribwa n'abakire. Kugira ngo umukene yigondere ifi, biragoranye cyane.

Ibinyomoro ni igihingwa gihingwa ahantu henshi hatandukanye , usibye yuko gisaba amafaranga menshi, bimara igihe kirekire kingana n'umwaka biteye mu murima , kandi gisaba ngo ugifumbire inshuro nyinshi ari nako unakibagarira ,kigira umusaruro mwinshi iyo kimaze kwera, ku buryo umuhinzi wacyo kimuha amafaranga.

Gino giti bacyitaga umubirizi, babiteye mu ruzitiro byabaye byinshi usangaga ahenshi barabiteye nko mu murima ari nk'imbibi cyangwa bakanabizitiza. Kivagamo umuti cane cane ivuraga inzoka niyo mpamvu usangaga ahenshi baranabiteye hafi y'ingo.

Bimwe mu bihingwa nk'ibitari, amashaza cyangwa se na karoti bigira amafaranga menshi. Usibye ko nk'igitari gifata igihe kirekire kugira ngo bazagisarure. Noneho za karoti zo ziroroha kubera ko no kuzibagara nta bwo bisaba abakozi benshi. Amashaza yo ushobora no kuyiterera bikarangirira aho.

Ibiti by'avoka bya kera byabaga birebire cyane ariko bikagira n'umusaruro mwinshi kubera ko nabyo byabagaho imyaka myinshi cyane. Iyo cyabaga gishaje bagikoregamo ibindi bikorwa harimo nko kuba bakibazamo cyangwa bakanagicana noneho kenshi wasangaga binateye mu rutoki, urwo rutoki wasangaga nta musaruro mwinshi rugira.

Hirya no hino mu gihugu, aborozi b'amatungo bashishikarizwa kororera mu biraro kugira ngo hirindwe n'amakimbirane ashobora kuvuka mu gihe hari nk'itungo rigiye kona mu kw'abandi, noneho ugasanga ba nyir'imyaka bagiriyemo igihombo cyangwa se na nyir'itungo agiye kuba yariha ibirenze ibyo itungo rye ryononnye.

Bavuga ibigorigori igihe abahinzi b'ibigori basaruye, bagasiga ibiti byabyo mu murima cyangwa se bakaba banabitunganya bakabishyira ku ruhande. Bishobora kwifashishwa mu buryo bwo gushingirira cyangwa se no gufata ikindi gihingwa gisabwa ko cyera kibanje ku gushingirirwa.

Tungurusumu n'ibidodoki ni ibintu bakundaga gutera cane hafi y'urugo ,kubera ukuntu ikidodoki akenshi gikundaga kwera ahantu hari nk'uruzitiro kandi ubu ngubu ugasanga na none ku isoko gisigaye gikunzwe cane n'igiciro caco gisigaye kiri hejuru ,naho tungurusumu zo zirahendaga kubera ukuntu zikoreshwaga mu bintu byinshi.

Igiti cy'umuko gikundwa gutera cyane ahantu hari ingo. Cyera bagiteraga nko mu nkingi z'urugo bakanacyita ngo ni umurinzi w'urugo, kigiraga amahwa menshi. N'iyo gishaje kibamo ibisimba bita ibimata. Gusa nacyo kigira umusaruro rimwe na rimwe nko kuvanamo nk'imishingiriro ku bantu bateye ibishyimbo.

Kino gitari kirimo intusi nyinshi za nyamweru, zibagamo umuti kandi zikagira n'ibiti bikomeye, zivuraga utuntu twinshi dutandukanye abenshi muri korona bazaga kubica mu bitari inaha.

Muri iki gihe abahinzi bashishikarizwa gutera imyaka ivanze n'imbuto ,kuko wasangaga mu bihe byashize, abantu barateraga imyaka ariko ukaba waburamo n'urubuto na rumwe, noneho ugasanga imiryango imwe n'imwe iri hasi mu mirire.

Ibisheke bigira amoko atandukanye, harimo ibisheke bikorwamo isukari, cyane cyane ibisheke byitwa Kabingo, usanga ari ibisheke abantu badakunda kurya, ariko nko mu ruganda ari byo bivamo isukari nziza ikenerwa cyane ku isoko.

Imyumbati ni igihingwa gikunda guhingwa ahantu nko mu misozi kubera ukuntu gikunda ubutaka bwaho. Igiti cyacu iyo bagiteye bisabaga nibura ngo uwo mwumbati uzere nka nyuma y'umwaka. Kuko nibwo uba uryoshye neza ku buryo ukundwa n'abaguhashye.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa nzamurabukungu. Usibye kuba yarateje imbere abaturage bayihingaga izamuraga n'iterambere ry'igihugu. Usangaga ngo no hanze ikunzwe cane kubera ikuntu igiraga ngo icayi kiryoshe cane.

Iyo ibigori bisaruwe, bisaba ko umusaruro wabyo ufatwe neza, kubera yuko uramutse uwufashe uko bidakwiriye cyane cyane ukawushyira nk'ahantu hakonja, ibigori birapfa bikaba nta kindi kintu byabyazwamo, haba mu kubibetesha ngo uvanemo igikoma cyangwa kawunga.

Amatunda usanga akenshi na go gatandukanye. Bitewe n'aho gahingwaga, hari agahingwaga i Musanze hari n'agahingwaga mu Gakenke. Usangaga nko ku isoko agakunzwe cane ari ago mu Gakenke kubera ukuntu garyohaga. Ndetse nk' umuntu ushaka nko kugurira umwana ni go aguraga kubera ukuntu abana bagakundaga cane.

Urusenda rurakunzwe cyane ku mafunguro menshi atandukanye, kubera y'uko abantu benshi barukunda, bavuga ko rutuma barya ibiryo byabo bitabagoye. Si ibyo gusa kubera y'uko no ku isoko abahinzi barwo baba bafite amafaranga, ndetse hari n'igihe barwohereza no mu mahanga.

Igihingwa cy'ibinyomoro gitangaga umusaruro mwinshi, usibye no kuba cyongeraga amaraso ku bakirya, ariko no ku muhinzi cyinjizaga amafaranga menshi cane.

Hari igihe abahinzi bahinga batitaye ku bihe bitandukanye by'ubuhinzi, hari n'abashobora guhita bahinga bitewe n'uko imvura ngo yaguye uwo munsi, bakaba bahita bateramo n'imyaka yabo, noneho iyo imvura itongeye kugwa vuba usanga ya myaka yapfiriye mu mirima yabo.

Igihingwa cy'inanasi usanga gihingwa cyane cyane mu misozi, noneho no ku isoko iyo cyahageze usanga kidahenze cyane kuko n'uburyo bwo kugitegura buroroha.

Inanasi, imyembe n'imineke kubera ukuntu ari imbuto zikundwaga n'abantu benshi usangaga no ku isoko zinahendaga cane. Umwembe gumwe gushobora kugura nk'amafaranga igihumbi, inanasi yo ni magana inani, imineke yo bayitangaga ku maseri, nk'iseri rishobora kugura nk'ica atanu.

Amateke akenshi usangaga bagateraga cane cane mu bishanga cangwa se no mu bundi butaka buhehereye, gariya mateke bitakaga amabwayisi usangaga arigo gakunzwe cane ku isoko kubera yuko gategurwaga cane mu makwe hirya no hino, rero gariya g'amanyarwanda go ntago bagakundaga kurusha gariya.

Karoti, imiteja, ibibiriganya, ibitunguru, puwavuro, kokomble, intogi bikoraga indyo yuzuye. Gusa ubu ku isoko birahendaga cane, imiteja bazigupimiraga ku kiro, ikiro kiri kuguraga igihumbi. Gusa ibindi byo babiguhaga wenda ufite nka magana abiri baguha.

Imineke, imyembe, amaronji, biri mu isoko ariko ritari ryubakirwa, usanga akenshi isuku yabyo iri hasi cyane kubera y'uko abacuruzi bafata izo mbuto bakazishyira hasi ugasanga hari n'umwanda, akenshi rero iyo umuguzi abonye n'ibintu nk'ibyo hari n'igihe atazigura.

Amashu ni kimwe mu bihingwa bigira imboga ziryoha cyane. Usibye no kuba banazitegura mu rugo no ku muhinzi iyo zamukundiye, akazitera, zIkera cyane, usanga zamwinjirije amafaranga menshi, noneho nawe ubwe bikamufasha gutera imbere.

Ahantu henshi hari imisozi ihanamye Leta yashizeho gahunda yo kurwanya isuri bacaho amaterasi, bityo bigafasha n'abahatuye bakabonamo akazi, ndetse na ba nyiri imirima usangaga imirima yabo imeze neza nta murima ugitwarwa n'isuri.

Avoka z'imbangurire zirajyohaga. Niyo mpamvu usanga no ku isoko zinahenze banazikoragamo amavuta cyangwa ngo bakanazijana iyo mu mahanga. Avoka ntoya usanga iri kugura magana biri，inini ngo magana tanu hariya mu isoko，niyo mpamvu dusangaga inaha biri kuduhenda cane.

Ivoka z'imbagurire nyinshi usangaga ziryohaga. Ni nayo mpamvu usangaga no ku isoko zinahendaga. Usanga benshi baranaziteye mu ngo zabo. Nta muntu ugikunda gutera bya biti birebire. Bibaga ari uduti tugufiya dufite voka nyinshi kandi zijyohaga.

Igihingwa c'ibireti bagihingaha cane cane mu karere ka Musanze na Nyabihu. Abahinzi barabikundaga cane kubera y'uko bigiraga umusaruro mwinshi Kandi ntanubwo babiburiraga isoko ,noneho n'umurima bivuyemo ugiraga umusaruro mwinshi iyo bahinzemo ibirayi bireraga cane.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bihingwa hirya no hino mu gihugu, bikaba bibamo amoko hari ibyo bita Kinigi bakunda guhinga cyane mu Kinigi ,ibyo birayi barabikunda cyane kubera ukuntu bivamo amafiriti aryoshye, hari n'ibindi by'umweru bita nyirakabondo nabyo ababizi barabikunda ntacyo bitwaye.

Imboga zo mu bwoko bwa pavuro ngo ziraryohaga cane kubera yuko nk’abantu benshi bakundaga kuziteka mu biryo bitandukanye. Hari abakundaga kuzitegura nko mu nyama, mu isombe, cangwa se no mu mvange, kubera y'uko ngo zigiraga n’amavitamine menshi. Ni yo mpamvu usangaga kenshi no ku isoko zikenewe cane.

Aborozi b'inkoko murikigihe usangaga bari korora inkoko zo mu bwoko bwa saso ngo kwisoko barazikundaga cane kubera yuko ngo zo bamaraga igihe bazorora kandi noneho ngo inkoko zitera amagi kubera yuko ngo bazigaburiraga ibyatsi usangaga ngo zifite umuhondo noneho ngo nk'amasake usanga na bwo garyohaga cyane.

Amapera ni rumwe mu rubuto abantu bakunda cyane, usibye yuko abantu bamwe na bamwe barufata nk'urubuto rw'abana ariko n'abakuru bararukunda. Erega hari n'abavuga ko rukorwamo umuti bakarwifashisha muri ubwo buryo.

Urubuto rw'ipera usanga ari rumwe muzikundwa cyane n'abana, amababi yarwo ngo burya abamo umuti, niyo abantu bakura akenshi bakunda gukoresha, naho ku ururya rwo ubwarwo hari abarutinya kubera yuko bavuga ngo rutera n'igifu.

Bumwe mu buhinzi bugezweho bwa kijyambere harimo no guhinga mu mazu amwe bita inzu z'icyatsi ,usanga ubuhinzi bwo muri izo nzu butangirika kubera y'uko nta hantu buhurira n'izuba ryinshi cyangwa imvura nyinshi, bagira uburyo bwo kuhira ku buryo nta gihingwa gishobora kwangirika bityo umusaruro wabyo ubaga mwinshi.

Izi ni ihene. Akenshi bazizana mu gitondo kare kare mu isoko. Ni ho abaguzi bashaka amatungo baba baziguze. Barazinduka akenshi, iyo utinze gatoya usanga bazimaze. Kandi bazizana zihaze, zimeze neza, ku buryo mbese zitaraburira umukiriya.

Ibirayi mu gihugu cyose ubu ngubu usanga byarahendutse , kubera yuko biriya bigo bishinzwe gufasha abahinzi byashyizemo imbaraga mu guha abahinga ifumbire ku gihe, kandi n'imbuto bakayibona ku buryo usanga igiciro cyabyo ubungubu gihehendutse kurusha amezi ashize.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa bya kera cyane, abantu bifashishaga mu gutegura amafunguro atandukanye nk'imitsima cyangwa igikoma. Wasangaga ifunguro ryayo abantu ba kera bararikundaga cyane kubera ukuntu ngo ritera imbaraga ku muntu warifashe.

Ibi bishimbo byitwaga mwiza arahenda． Bireraga cyane ku butaka byakunze iyo byahuye n'izuba ryinshi cyangwa imvura nyinshi usangaga byapfuye nta kintu ukuraga mu murima， bigiraga n'isosi nziza ku buryo ushobora kuyirisha nk'umutsima bikagenda neza.

Amasaka, ibigori n'ingano biteretse mu mabasi harimo n'ibikoresho bapimishaga harimo ibikosi n'amabakuri; igikosi kimwe camubagazi gipima ikiro cy'amasaka, n'ikiro cy'ibigori ,n'ikiro k'ingano kandi bipimaga neza kurusha kuja k'umunzani.

Ubunyobwa ku isoko muri iki gihe usangaga buri guhenda cane, kubera y'uko usangaga umusaruro wabwo waragabanutse n'ubuhari ubu bakavuga ngo buri kuva hanze, noneho ugasanga buriya bitaga ngo ubunyarwanda burahenda ga cane, kubera y'uko bugiraga n'isosi ifashe, nziza kandi iryoshye cane, kandi no kubukaranga buraryohaga.

Ubunyobwa bubagamo amoko menshi hariho ubuzungu hariho n'ubunyarwanda. Ubunyarwanda nibwo buhendaga ku isoko kandi ninabwo bunaryohaga bugiraga n'isupu nziza iryoshe no kuburya bukaranze buraryoga cane kurusha ubuzungu.

Abahinzi bamwe na bamwe b'ibirayi iyo batahingiye igihe ngo batere imbuto irobanuye, kandi ngo batereshe n'amafumbire menshi atandukanye, usanga umusaruro wabo waragabanutse cyane. Bagasarura uturayi twabaye dutoya, noneho ugasanga amafaranga yabo bashoye abaye makeya, ugereranyije n'umusaruro wabo.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bihingwa hirya no hino mu gihugu. Habamo amoko atandukanye. Hari ayitwa amabundi, arera cyane ku butaka bwakunze. Hari n'ayandi bita amaremare, ayo arakundwa cyane, kubera ukuntu agira ibikoma biryoha ndetse n'imisuru.

Ibishyimbo bisarurwa mu buryo butandukanye, ariko nanone bitewe n'amoko yabyo; hari nk'ibyo basarura ari imiteja kandi ni nabyo bikunzwe cyane, kubera ko in imiteja iranahendaga cyane ku isoko, kandi ngo nanone imwe inoherezwa no mu mahanga.

Ibigori bibamo amoko atandukanye, hari ibyitwa mayizori bigira ibara ry'umuhondo, hari n'ibyitwa tamira, ibyo baranabikunda cyane kubera yuko bitanga umusaruro mwinshi, bikagira n'igikoma kiryoha, ndetse na kawunga yaho iraryoha cyane, kandi ikaba ari umweru mwiza

Igihwagari gishobora guhingwa ku butaka bwinshi, kubera yuko ahantu hose gishobora kuhera. Bakifashisha cyane cyane mu gukora amavuta. Aho bagihinze ushobora kugira ngo ni nk'uturabyo, nyamara imbuto zacyo zivagamo amavuta.

Ibishyimbo ni igihingwa ngandurarugo ikundwaka cyane mu gihugu hose, usanga abaturage benshi ari byo biryo bakundaga gushira ku ifunguro ryabo, kuva na kera no mu mucyo nibyo byitwaga ibiryo, noneho kubera n'ukuntu aho byakunze byeraga cyane, abahinzi babyo usanga akenshi byarabateje imbere cyane.

Iyi mbuto y'ibishyimbo bayitaga gikoti. Bireraga cyane iyo bitahuye n'imvura nyinshi, no kubiteka bitindaga gushya, bisaba umwanya uhagije kugirango bizashye neza gusa biraryohaga.

Ubunyobwa iyo bamaze kubusarura ntabwo bahita babutonora, ahubwo babanza kubwanikana n'ibishishwa byabwo kugira ngo babungabunge umusaruro utangirika. Nyuma y'uko bwumye neza ni bwo bongera bakabutonora , noneho umusaruro ukagaragara neza.

Intama zigiraga ifumbire nyinshi, kari abantu benshi bakunda kuzorora bara ngo ziratuza. Ari no mu maresitora abantu bakundaga no kuzijya ni yo mpamvu usangaga ahantu henshi mu maresitora barazibaga mu mago bakazorora.

Ubworozi bw'inkoko muri iki gihe usanga ari bwo bugezweho ahantu henshi kubera ukuntu zifite umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya. Nk'inkoko zitwa saso izo zirakundwa cyane ku isoko kubera ukuntu ngo ziba zimeze nk'inyarwanda haba ku nkoko z'inyama noneho no ku nkoko itera, igi ryazo ngo rigira umuhondo mwiza.

Ubworozi bugezweho bwa kijyambere， bisaba kororera mu kiraro， ibyo bifasha umworozi kurikurikirana neza， ndetse n'igihe cyo kwima iyo kigeze， bisaba ngo ahamagare viterineri， atiriwe yajya gushaka isekurume，niba yoroye ihene cg se imfizi，niba ari n'inka，noneho bikamworohera no kubona umusaruro mu gihe gitoya bitagoranye cyane.

Muri kino gihe usangaga aborozi benshi ngo bari gukunda kwiyororera ingurube. Kubera ko ngo zororokaga cane. Usangaga ngo zitanga umusaruro mwinshi cane, ku nyama no ku isoko ngo ubu abantu benshi basigaye bakunda inyama z'ingurube cane. Noneho no ku buhinzi ngo zitangaga ifumbire nyinshi mu gihe gitoya, ku buryo byoroheraga umuhinzi.

Akenshi usangaga aborozi ba kijambere bagiraga n'ibiraro byiza kugira ngo babone uko babikorera isuku n'amatungo gabo usangaga gafite isuku cane noneho n'umusaruro babaga bafite usangaga ari mwiza cane cane nk'amata araryohaga cane ku nka zafashwe neza muri biriya biraro bya kijambere.

Isoko riremeragamo amatungo cane cane ihene garemaga kabiri mu cumweru: ku wa gatatu cangwa ku wa gatandatu. Bisabaga kuzinduka cane kubera ko akenshi garemuraraga kare amahene menshi gabaga gazanywe n'aborozi ntabwo ari abacuruzi niyo mpamvu usangaga gatari no guhenda.

Ingurube ni itungo rikunzwe cyane muri iki gihe n'aborozi benshi, kubera ukuntu ngo ritanga umusaruro mwinshi mu gihe gitoya. Bakaba babona amafaranga menshi. Riroroka mu buryo bworoshye kandi rikabwagura ibibwana byinshi. Noneho ugasanga no ku isoko inyama zaryo, zikurwa cyane, haba mu maresitora cyangwa n'ahandi hose baritegura.

Ingwe akenshi uzisanga muri parike, gusa zigira akabara keza. Noneho mu maso iba imeze nk'inturo, igusimbukiye noneho yakuvanamo amaso igira amahane cyane.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa ntoya zijya kumera nazo nk'ingagi, noneho usanga rimwe na rimwe zigira imico nk'iy'abantu, kuko usanga uko umuntu arya umuneke, ari kimwe nk'uko n'inkende iwurya, kuko nayo ibanza kuwutonora. Usanga ahantu henshi bafite imirima yegereye ahantu inkende ziba, bavuga y'uko zikunda kubonera cyane.

Inyamaswa z'inkazi zibaka mu mazi nk'imvubu cyangwa n'ingona usanga abantu benshi bazitinya cyane, ku buryo n'abaturi hafi y'ayo mazi ziba zirimo, abayobozi babuza abaturage kuba bayegera baje kuvomamo cyangwa se gukoreramo ibindi bikorwa bishobora kubashira mu kaga.

Inyoni zigiraga amoko menshi atandukanye. Ni yo mpamvu usanga hari nk'inyoni ziba mu maparike zikurura ba mukerarugendo na zo bakaza kuzisura. Hari ubwoko bwinshi bw'inyoni ushobora gusanga ari bwiza cyane kurusha uko waje no gusura izindi nyamaswa ziba zizwi cyane.

Inkende ni zimwe munyamaswa zijya kumera nk'ingagi, zijya na zo kugira imico nk'iy'abantu, kubera yuko usanga akenshi zikunda n'ibiribwa biribwa n'abantu. Usanga ahantu ziba zikunda kona cyane imyaka m'umurima.

Ahantu henshi muri iki gihe usangaga ibikorwa by'ubukerarugendo, usangagamo inyamaswa nyinshi zitandukanye, ugasangamo nk'inyoni z'amoko menshi atandukanye nko mu maparike ubisangamo noneho ugasanga hari nk'abamukerarugendo biyiziraga baje nko gusura inyoni gusa.